Njewe aha ng'aha ndikubona wagira ni igitaramo, co c'abahanzi ba b'umuziki ugezweho. Kandi nu numvaga bifite injana iryoshe da!

Burushete ni ikiribwa gikundwa cyane cyane n'abagabo, n'abagore, kubera ko aho kigeze buri wese atangira kwirya iminwa, agisaba areba ko bakimuha.

Izo ntebe ziri mu kabari k'inzoga, banywaga ziryoshe za gisirimu, z'amarikeri cangwa na kanya...na na na wisiki na warage.

Mu kabari hari abagabo benshi bahagera, bagatangira bakabona batasubira gutaha iwabo ako kanya, kubera ko baba bashize ubwigunge.

Akabyiniro kakaga amatara atandukanye iyo acanye nijoro, kugira ngo abarimo batarambirwa ahubwo babyine cyane ,bagenda bahinduranya amatara arimo.

Akabare ni kamwe mu bintu byinjiza amafaranga mu byerekeranye n'ubucuruzi bucuruzwa mu mazu. Gakunze kujyamo , kugendwa n'abagabo.

Restitora Kimaranzara, abamotari iyo bamaze kumotara bajya kurya ibiryo, bakareba uko babaho, kandi erega ntawe inzara itarya erega! Niko bimeze.

Uru ni uruganda rukora amabati, nirwo nzi ko bavuga ko rwitwa Twyford, kandi rushobora kuba ari i Kigali.

Abacuruzi bacuruza za gaze bakunze, kuba barakoze twa etajeri two kuzipangamo, kugira ngo umuguzi ayitegereze neza nta kibazo.

Inzu bakoresha amakaro yose yose mu mpande cyane hejuru no hasi, zikunze gukorerwamo ubucuruzi buciriritse, urugero nko mu masantere.

Amahoteri afite akamaro gatandukanye. Atanga imisoro, yakira ba mukerarugendo bakaharyama, bamara kuharyama bakabasigira amafaranga yo gukoresha, na bo ibindi bintu bitandukanye.

Gano ma etaje gari mu mujyi gashobora kuba ari ag'i kigali kubera ko mu caro ntaho wabona amazu gagerekeranye nkaga ngaga, kandi gose gose gafite imiryango mbona wagira ngo ni iz'ubucuruzi.

Ibyapa bigaragaza umusaruro w'ubuhinzi buhingwa mu karere ka Musanze, hamwe n'ikoranabuhanga rikoreshwamo.

Izo nzu ziriho ibikarito by'amaradiyo niba ari gagasete, nta namenya. Ariko gano maradiyo gashobora kuba ari gampuri, n'utumeza tw'ibirahure turi imbere y'inzu ifunze.

Amazu yo mu mujyi acuruza gaze, cyangwa n'ibindi bikoresho nk'imifuka y'isukari, umunyu na za kawunga, mbese ku buryo baranguza abandi bantu b'abacuruzi.

Iki capa kigaragara ko kiri kurangira abantu aho bagomba kuja, bakamenya neza ntawe ubashije kuyoba, kandi ndabona wagira ni muri hoteri.

Aho bakorera amatelefone cyangwa amaradiyo cyagwa na mateleviziyo, agezweho y'ikoranabuhanga na netiwake.

Aho bakora telefone cyangwa ibindi bikoresho nka televiziyo, hakunze guhuriramo ingeri nyinshi z'abantu abagabo, abana, abagore, n'abakobwa bose.

Kenkayori ni imwe mu nzu zicuruza ibikoresho by'ibyuma n'amazi ndetse na masima. Ni ukuvuga ngo nibirebana cyane cyane n'ubwubatsi.

Abamotari bakunda gutwara abantu babajyanye ku mahoteli no mu ma kabari . Ariko na none iyo abagiye kunywera muri ayo makabari bamaze gusinda, barabatwara.

Ibitunguru ni kimwe mu bihingwa bihingwa mu karere kacu, kandi bitanga n'umusaruro umeze neza, aho buri wese aba yifuza kuba yabihinga.

Amacupa ateretse kuri etajeri y' ubucuruzi kandi bwo mu cyaro, kubera ko mu mujyi ho bagira ama etajeri akomeye y' ibyuma.

Ibikosi by'amaparalasitike ni bimwe mu bikoresho bikoreshwaga mu makwe, cyangwa se bigakoreshwa igihe habonetse umuhango wo kwakira abantu benshi, bakabikoresha banywa igipende.

Amakositara ni udukoresho dukoreshwa mu kuryoshya inyubako y'inzu. Badushira hejuru kugira ngo hacemo umuyaga ujya mu nzu noneho umwuka ukaboneka.

Gaze icanyeho icometseho inkono ipanu, ndetse hirya hari n'urukuta rw'imigano cyangwa se imbaho bakoze, kugira ngo batandukane inkuta.

Inzu nk'izi ngizi ziba ari iz'ubucuruzi, ariko bwo mu cyaro, kuko n'isuku iba ihari ntabwo ingana n'isuku wasanga mu mugi.

Inzu iranguza inzoga ziciriritse, muri izo nzoga twavugamo nk'urwunge, n'iryamukuru ndetse na Musanze wayini cyangwa se Musanze nyirizina.

Inzu y'ubucuruzi iri muri karitsiye y'icyaro, haparitse amagare amamoto n'ibicuruzwa biri mu nzu, byo gutanga igihe abakiriya baje.

Amacumbi cyangwa se amaloje, ni bimwe mu bintu byinjiza amafaranga ku bantu b'ababosi bayiyubakiye kubera ko haba haboneka abantu benshi bakeneye kuyacumbikamo.

Imineke ni kimwe mu mbuto zicuruzwa, zikundwa n'abakiriya benshi, kubera ko zifitemo intungamubiri zitandukanye, zitunga ubuzima.

Akabari gacuruza amusiteri, ko mu nce z'umugi. Urabona ko kameze neza, kandi ntabatahanwera kubera ko haba umuco mwiza.

Iduka ripanzemo ibicuruzwa bitandukanye , amakarito afunitsemo n'ibindi bintu byinshi , ndetse aha twabona neza ko bipanze muri za etajeri.

Imodoka iparitse muri parikingi, irahantu h’umujyi cyangwa muri hoteri. Hari ibiti n’ipoto y’amatara, wagira yegereye mu mujyi.

Abantu bacuruza agaconco bakunze kunguka, ugasanga baravuyemo abacuruzi bakuru, bacururiza mu maduka manini, kubera ko baba baragiye bunguka gutyo gutyo.

Eee! Ibi ni ibikoresho bakoresha mu kubaka. Ndi kubona insinga n'ibyo gukubuza n'ama... Wagira ni kenkayori. Ni ibikoresho by'ubwubatsi. Ibi byose ni iterambere ridusanze hano iwacu.

Gesite ni amazu yakira abashyitsi baturutse mu mpande zitandukanye, kugira ngo baze baharare, baharire icyo kurya, kandi babe amahoro.

Uno muryango tuwita dubule, kubera ko ufungurirwa habiri, ariko akenshi ukunze gushirwa ku nzu z' ubucuruzi, urabona ko hano hashobora kuba hari arimentasiyo.

Abantu bikoreye indobo zihagaritsemo imiti y'amasabune, n'imare k'umutwe w'abagore bagaragara ko barimo baragenda.

Moto zihetse abagenzi bagenda mu muhanda wa kaburimbo, uriho n'amatara yaka nijoro, n'amazu afite amabati y'umutuku, ndetse bugufi y'umusigiti w'Abayisilamu.

Akabari ko mu cyaro gatatse, kamenyesha abakiriya ko gapima za byeri, inyuma mu gikari hakabamo na mucoma aho bokereza za boroshete.

Kinigi ni agace k'ubukerarugendo, gakundwa gusurwa n'abazungu benshi, kandi aho mu Kinigi hagezweho, ubu kubera ibikorwa by'ikoranabuhanga.

Matola zigurishwa henshi, ariko cyane cyane abakunda kugura amatora, ni abana bagiye ku mashuri cyangwa se n'abageni bagiye gushinga ingo zabo.

Inzu zubakishijwe amakaro zigaragara neza cyane, cyane cyane ahantu zikunda kuboneka ni mu masoko yo mu cyaro cyangwa se mu mujyi ahantu hatandukanye.

Kenkayoli icuruzwamo ibikoresho by'ubwubatsi, twavuga nka amarangi, amamakarito y'amarangi ya Amekikoro, ndetse n'intsinga. Haparitse n'igare, wumva ko uyu mucuruzi aba afite ikintu kimufasha kugenda.

Inzu za konoshi yahoze aboneka mu mujyi gusa, none ubu no mu cyaro hose hose ntaho udasanga amazu ya konoshi, kubera ko akorerwamo ubucuruzi.

Umuntu urimo arabunza imyenda ya gaconco, yikoreye n'urukweto agenda agurisha ababishaka bose, kandi w'umukobwa.

Aya ni amaduka acururizwamo gaconco zitandukanye, twavugamo nk'amasaka, ibigori, ingano n'umuceri n'ibindi bitandukanye. Byose ushobora kuba ushaka ibinyampeke, ukabisanga mu maduka nk'ayangaya.

Amaduka y'ubucuruzi asigaye yarabaye menshi, aho abantu bagerageza kureba icyababeshaho bakayasanga bakayakodesha cyane.

Ubukorikori n'ubugeni ni kimwe mu bintu bibasha kuzamura imibereho y'Abanyarwanda , cyangwa se abandi bantu abo aribo bose bagishaka gutera imbere.

Korali iririmba mu gitaramo cy'ijoro itaramira abayiteze amatwi, n'amatara y'amabara yose yaka impande zombi.

Iterambere rirakataje mu baturarwanda bose, urabona nk'ibi bishobora kuba ibikoresho byakorewe mu gihugu imbere bifunitse nk'ibivuye mu mahanga.

Amazu asize amarangi y'umuhondo nimbaraza zikozwe neza kubera ko hano wagira ngo ni mu mugi wa Musanze.

Ubukarabiro bwa kijyambere aho amazi aba ari mu nzu, umushyitsi ugezweho agakaraba yihereye nta kibazo, agatembera mu nzu.

Ahantu banywera hashobora kuba mu nzu cyangwa mu matente ari hanze mu mbuga, urabona nkaha handitse heninekeni ni itente, ni akabingaro ko hanze.

Inzu irimo ibikosi n'amatara gari kwaka muri iyo nzu wagira ngo ni butike bagurishagamo ibipalasitike.

Aga ni amanifomu g'abana bajyanaga ku ishuli harimo: kaki, icatsi n' izubururu zirambitse ku mashitingi baragacuruzaga.

Wotameroni ni kimwe mu mbuto ziribwa n'abantu benshi, kubera ko mu ma soko usanga zitanditse henshi cyane kandi zikagurwa cyane.

Impuho ni zimwe mu mbuto zivura uburwayi, kandi mu gihe ziriwe neza, ziba zifitemo n'imyunyungugu zisana umubiri.

Abacuruzi bacuruza mu masoko aciriritse, akenshi baba biyicariye aho babonye, haba hasi, haba ku dufuka bakarambiriza, kugira ngo babone uko baciririkanwa ibyo bafite.

Imbizo ni kimwe mu bikoresho utabura kubona muri buri rugo, kubera ko nta rugo rutagira isuku, rutatunga umukubuzo nk'uyu nguyu.

Ubu hari ikoranabuhanga rikaze cyane, aho usanga abantu bakorera ubucuruzi mu nzu. Twatanga urugero nko muri Goyiko n’ahandi hatandukanye.

Aga mashusho gagaragaza abantu bari bari mu soko bacuruzaga mu masaha g'ijoro kandi gashobora kuba gagaragaza nanone mu soko rifunze.

Aga matoroshi ntabwo gakigezweho kubera ko gakoreshwaga n'utubuye dutoya，kandi ubu iterambere rigezweho rikoreshaga umuriro w'amashanyarazi cane.

Imyenda ya caguwa, caguwa habonekamo amasutiye, amakabutura n'ibindi bitandukanye ariko caguwa u Rwanda rwayiciye ku isoko ryayo ruvuga ko dukeneye ibikoresho bya medi ini Rwanda.

Aya yo ni amazu ashobora kuba ari ayo muri goyiko, mu Karere ka Musanze, cyangwa se muri gare. Ano nayabonye ngiye gukatisha itike, ngiye gukora urugendo.

Indagara ni bimwe mu bidutungira ubuzima, birimo poroteyine cyane cyane iba ikenewe ku bana bagikura. Kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibinyomo, imineke, imyembe, amavoka , n'amatunda y'amarozi, n'ibipapayi bitoya, ni bimwe mu mbuto ziribwaga cyane kongeraho n'inanasi.

Inkono za kinyarwanda, zabaga ari inkono zikozwe mu ibumba, ugasanga cyokora zo zidateye amabara, ahubwo ari uducari bajyaga bashyira ku mashyiga tukanuka imyotsi ho gake, tukaba umukara.

Abacuruzi bacuruza mu isoko usanga bashyize uburo mu mufuka wabwo ,n'ibishyimbo mu mufuka wabyo, n'amasaka mu mufuka wayo ,hanyuma uwaza kubaza agacirisha.

Abacuruzi bacuruza ibihaza , kokombure n'amateke n'ibijumba. Ibyo byose biri mu biribwa biribwa n'abaturage benshi.

Ugu nago n'umuco nyarwanda. Urabona ko hano ni ububoshi bw'uduseke n'imitako zo gutaka cangwa se uduseke. Ni umuco nyarwanda guno ntagundi.

Amagorofa agezweho muri iki gihe agomba kuba yubatse agerekeranye, kuko urabonako hano izi nzu zigaragaza iterambere rigezweho muri iki cyiciro cy'imyaka.

Abaguzi bashobora kwinjira hano bagura n'ibyo bashobora kurya, kuberako umucuruzi yicara hano ategereje abo aragurisha iyo mikimbo iteretse imbere.

Igishushanyo cy'iyi pura y'inzu, kiba gihenze kuko umuntu ushushanya inzu nk'iyingiyi akabasha kuyitereka ku butaka, byo ni ikoranabuhanga riteye imbere ku rwego rwacu.

Muri za butike zitandukanye muri gare zicuruza amafaranga menshi cyane, ku buryo n'umuntu ufite butike nini atapfa kubagezaho kandi afite iduka rimwe rinini.

Aha ndabona ari mu soko,e iyo umuntu agiye guhaha, ahahaga mo icyo ashaka, aka ubwo rero amafaranga gose gose waba ujanye uguraga icyo ushaka wamara kugura ago bakugaburiye ukagarura nyine, n'ago uhashe ugataha.